Indege y'abaporisi igiye kugwa mu kibuga cyayo, icyo kibuga ntabantu babamo, ni ikibuga kigwamo indege gusa, kuko iyo ndege ahantu iba nta bantu bahari, ni ahantu haba indege gusa.

Umuntu ushinzwe umutekano yaje kuremesha inama, abantu nabo ari kuvuga abantu bamuteze amatwi kuko iyo ushinzwe umutekano cyangwa umuyobozi ari kuvuga nta muntu wavuga kuko avuze yamuyombe...

Umupolisi ari mu muhanda ashinzwe abantu n'ibintu n'ibinyabiziga byose. Ari guhagarika imodoka, amagare, moto kugira ngo zitagongana hakaba impanuka. Uwo mupolisi n'ibyo ashinzwe.

Indege iri mu kibuga, iyo ndege ni nziza ifite n'ikirango cy'u Rwanda ,iyo ndege iyo igurutse iba igiye mu kirere ikagenda ikajya aho bayitumye ,kuko indege ziba nziza.

Umupolisi w'umukobwa ufite amapeti menshi wo mu Rwanda afite ibirangantego biriho inyenyeri ,biriho idarapo ry'u Rwanda ,uwo mupolisi acunga umutekano mu Rwanda kuko ari umunyarwanda.

Abantu bicaye bari mu nama bameze neza biteguye gukiza inama nta rusaku ruhari, ntabwo bari kuyomba. Bategereje kugirwa inama kuko iyo bageze mu nama bagomba kwifata neza, bagategereza uri bubahe inama, bityo bagakurikiza amabwiriza babahaye.

Abantu bicaye neza, bari mu nama, bari kumva ibyo umuntu uri uko kubagisha inama ari kubabwira, harimo abasirikare, harimo abashinzwe umutekano, baritonze, bafite n'amazi bari kunywa imbere, abo bayobozi ni beza bari kugirwa inama.

Abantu bari mu nama umuyobozi yabasuye, ari kubagira inama y' ibintu byabateza imbere, kuko iyo bamuteze amatwi na bo bumva ibyo ari kubabwira. Urangaye ntabwo wakumva ibyo umuyobozi ari kubabwira.

Abantu bicaye bari mu nama, bateze amatwi umuyobozi uri kubagira inama, kuko iyo basakuje ntabwo bumva ibyo ari kubabwira. Abo bantu bari ahantu heza hafite umutuzo, kandi umuyobozi ari imbere yabo, ari kubagira inama kuko nabo bitonze neza.

Abantu bari mu nama, iyo nama irimo abantu benshi batandukanye, harimo n'abasirikare bashinzwe umutekano, kuko iyo bicaye bungurana ibitekerezo, maze bityo bikabagirira akamaro, bigateza igihugu cyabo imbere kuko bagira inama nziza.

Abantu baje mu nama irimo abagore n'abagabo, bateze umugore uri kubabwira ibyo ari kubabwira bamuteze amatwi, nkuko iyo barangaye ntibakumva ibyo ari kubabwira, kuko ari kubagira inama y'ibyo bagomba gukurikiza.

Abanyeshuri babyina imbyino za kinyarwanda, abo banyeshuri bambaye imyenda y'ishuri bambaye n'ibintu biteze mu mutwe, kuko iyo bari kubyina bagiye mu marushanwa barabyina bamara kubyina ishuri ryabo rikaba irya mbere bityo bikagirira ikigo akamaro.

Umuntu uri kuririmba indirimbo akoresheje ibikoresho bya kinyarwanda, umumu afite inanga ari kugenda avuza, ari kuririmba abantu bamwumva bagahagarara bakishima, kuko ari gukoresha ibikoresho bya kera bya kinyarwanda.

Inka ziri kugenda mu muhanda. Izo nka zifite amahembe meza. Ni nziza, izo nka ziteze neza amahembe. Ziri kugenda, bazijyanye kuziragira. Kuko iyo bagiye kuziragira bagenda bazitondesheje umurongo, kugira ngo bataburamo inka n'imwe, kugeza igihe baragerera iyo bagiye.

Umuntu ubaza ibishushanyo akabigurisha, akabonamo amafaranga akamuteza imbere, arahagaze ari kubisiga amarangi ,kuko yamaze kubisiga amarangi, bityo akabona amafaranga yo kumuteza imbere ,mu buzima bwe bwa buri munsi.

Isuka bahingisha iri mu murima, umuhinzi ari guhinga agenda ahinga, iyo suka imeze neza ni isuka imeze neza. Iyo iri mu murima umuhinzi arahinga kuko aba yarayikwikiye neza nta kibazo ifite, ntabwo ikunda gukuka.

Abantu bari mu murima bari gusarura ibishyimbo, bari kugenda bagosora, ibyo barangije babishyira iruhande, kuko iyo wamaze kugosora ibishyimbo byawe, uba utegereje ngo byume uzabigurishe ubone amafaranga gahagije yo kuguteza imbere.

Ahantu hari akarago, ako karago bakabohaga kera bakita umuhururu. Gateye neza, kari ahantu heza, bari kukagurisha kugira ngo babone amafaranga yo kubateza imbere ubuzima bwabo bwa buri munsi, kuko ako karago ni keza cyane.

Inka zigira amahembe maremare, iyo nka iyo uzifite urazigurisha ukabona amafaranga ahagije, kuko ziba ari nziza ukazigurisha wamara kuzigurisha, ugateza imbere umuryango wawe, bityo nawe ukiteza imbere mu buzima bwawe bwa buri munsi.

Abantu bari bafite imiheto n'imyambi bari kugorora ingingo zabo, iyo ufashe umwambi ugashyiraho umuheto urafora ukarasa imbere ukarambura ingingo, kuko umuheto n'umwambi iyo ubifoye uba urikunanura ingingo.

Abantu bari mu mbyino za kinyarwanda, bateze bambaye neza, iyo uhageze urareba, bari mu mikino itandukanye, urishima iyo ubabonye, kuko bari kubyina neza, bari mu birori, bari kwizihiza iminsi mikuru yabo.

Umuntu uri kubyina yambaye neza ari kubyinira abantu, iyo intore iri guhamiriza ikinga amaboko, iba yambaye ibintu mumutwe, yambaye n'amayugi mu maguru, kugira ngo abo iri kubyinira bishime.

Ibikoresho bya kinyarwanda, hari igisabo cyiza, giteretse ahantu heza, hari n'inkongoro nayo nziza, ibyo bikoresho babishiragamo amata, ukayanywa ufite gafite isuku kandi ukayanywa wishimye, kuko ibyo bikoresho ni byiza cyane.

Igicuba kimanitse, iyo umaze gucunda amata urakimanika, kugira ngo ukibungabungire ubuzima, kugira ngo kitazangirika kikameneka, bityo kigasaza mbere, kandi waragiteganyirije kuzamara igihe kirekire. mu

Abagabo babyina imbyino za kinyarwanda. Iyo bari kuzibyina barambura amaboko yabo ,bafashe imiheto biteze n'ibintu mu mutwe. Bafashe n'ingabo mu ntoki kuko birambura amaboko yabo.

Abantu bari kunywa ugwagwa urwo gwagwa ruri mundenderi buri muntu wese afashe umuseke we ari kugenda asomaho kuko nta muntu usangira n'undi ku museke buri muntu wese ari kugenda agotomera kugira ngo ashire inyota.

Umuntu wicaye uri kubumba, yabumbye inkono nini nziza ari kubumba n'izindi. Iyo amaze kubumba, arazigurisha akabona amafaranga yo kumuteza imbere, kuko yabumbye inkono nziza abantu bakunze.

inka za kera, izo nka ni nziza ziteze amahembe, zifite n'ikimenyetso kugira ngo bazimenye, bazizanye kuzigurisha mu isoko, urahagera ukagura iyo ushaka izo nka zimeze neza zirakeye zifite.

Inkongoro bashyiramo amata. Iyo washyizemo amata abamo, akamera neza, akaba ikivuguto wazayanywa akaryoha. Kuko uba wayabitse ahantu heza hafite umutekano uhagije

Uruho banyweramo umusururu, iyo kera babonaga urwo ruho barunyweragamo umusururu, cyangwa ibiteri, cyangwa urwagwa, urwo ruho rwari rwiza rwanywaga neza cyane.

Abantu bari kubyina, abo bantu bameze neza barishimye, bakinze amaboko kuko iyo ubyinnye uba uri gukora siporo, ikarambura ingingo zawe zose, ugashimisha n'abantu baje bari kukureba.

Agaseke keza karatanditse kugira ngo bazakagure babone amafaranga ahagije, bityo uwakaboshye nawe ayo mafaranga azamuteze imbere mu buzima bwe bwa buri munsi kuko ari keza, kameze neza, yakaboshye neza bihagije.

Abantu bari kubyina bafite ibisabo. Kera barabyinaga bakabyina bafite ibisabo. Kuko iyo ubyinnye ufite igisabo indirimbo yawe uyibyina neza, abaje kuyireba bakishima. Kuko iba irimo ibikoresho bya kinyarwanda.

Ubwatsi bw'inka buri mumuvure inka ntazihari, umuntu wabushizemo ategereje ngo inka zize ziburye. Iyo umuvure uteretse ahantu habigenewe utegereje inka kugira ngo zitahe zirye ubwo ubwatsi.

Ahantu bakorera ingoma, aho hantu haba ingoma zashaje, iyo ingoma ishaje urayizana bakayigukorera ikongera ikaba neza, nuko ukayijyana ukajya kuyivuza, kuko ingoma ariyo bakoresha bari kubyina.

Amasahane gatandukanye, hariho voka, hariho imyumbati, kariho ibishyimbo, iyo uhageze ufata ibiryo ushaka ukabirya bikakugirira akamaro, bityo ugateza igihugu cyawe akamaro kuko uba wariye ibiryo bifite intungamubiri.

Inzu ya kinyarwanda iyo nzu urahagera ugiye kuhasura ugatanga amafaranga ukitegereza ukuntu hubatswe neza hari isuku, kuko iyo nzu iyo uhageze ureba ubwiza bwayo n'abantu bahari ba kera ukumva urishimye.

Inzu y'ibyatsi, kera bagiraga inzu z'ibyatsi, iyo nzu iri ahantu heza ifite isuku ifite ibyatsi biyikikije, kera ni izo nzu babagamo z'ibyatsi kuko nta mabati yahabaga.

Abantu ba kera bambaraga imyenda, bamara kwambara imyenda bagakenyera. Bamwe bambaraga udushabure, abandi bagakenyera impu. Abo bantu bari ahantu heza bari kumwe n'umwami bamuherekeje kwitoza.

Isombe barayishyira mu isekuru, bakayisekura bakayiteka, ikabagirira akamaro, kuko iyo wariye isombe irimo intungamubiri zihagije ,ituma umuntu agira ubuzima bwiza bwa buri munsi.

Inka zikunda amazi, zimaze kunywa, kurya ubwatsi, zije kunywa amazi, kuko iyo zimaze kuyanywa azigirira akamaro, zizanye n'umushumba wazo, kugira ngo nizima kunywa ayo mazi ahite azijyana mu rugo.

intore zibyina imbyino za kinyarwanda. Iyo wazitumiye mu bukwe bwawe, ziraza zigashimisha abantu baje mu bukwe. Izi zabyinaga kera ariko na n'ubu zirabyina, iyo wazitumiye zishimisha abitabiriye ubukwe bwawe.

Ababyinnyi babyina neza barambuye amaboko yabo, kuko iyo bari kubyina bagomba kurambura amaboko yabo bibagirira akamaro bakarambuka amaboko, bakaba bari gukora na siporo kuko siporo ibagirira akamaro kanini.

Igikoresho cy'amashanyarazi icyo gikoresho uragicomeka, wamara kugicomeka ugashyiraho, ugatekaho igikoma, wamara gutekaho igikoma cyangwa icyayi ukakinywa neza, kuko uba wabonye umuriro kuko gikorana n'umuriro uhagije.

Inzu ibamo amashanyarazi, kuko iyo nzu ni nziza nta kindi kintu kibamo. Ni amashanyarazi gusa kuko iyo amashanyarazi arimo, barayacana akagirira abaturage akamaro kanini.

Ahantu bacagingira telefone cyangwa bacomeka imashini, urahagera ugacaginga telefone cyangwa ugacomeka imashini, kuko iyo migozi ni myiza imeze neza iyo wayicaginzeho nta kibazo ugira.

Amatara amanitse ari kwaka, iyo umwijima uje n'ijoro, ayo matara akomeza kwaka akayobora abantu, kuko ayo matara ni meza amanitse mu nzu, uwo muntu yashyizemo amatara meza manini, kugira ngo azajye amuyobora ni mugoroba.

Ahantu haba amashanyarazi urahagera ugakanda kugirango ucanire abantu babone umuriro wo kubateza imbere muzima bwabo bwa buri munsi, kuko iyo umuriro uri kwaka abantu nabo babona uko biteza imbere.

Aho bacanira amashanyarazi, aho hantu ni heza, haratuje, hameze neza, niho bacanira amashanyarazi, iyo bamaze gucana, abaturage bose babona umuriro ukabagirira akamaro, kuko nta muriro nta kamaro byaba bimariye abaturage.

Ahantu bakiriza amashanyarazi, aho hantu ni ahantu hari igikoresho cyo kwatsamo amashanyarazi kuko iyo bakije bakora kuri izo nsinga maze amashanyarazi akaka bityo akagirira abaturage akamaro.

Ahantu bafatira amashanyarazi. Iyo uhageze ufata amashanyarazi ukesitaraho ibikoresho byabugenewe, wamara kuyafata ugacana mu nzu yawe nta kibazo ufite, kuko wabonye umuriro uhagije.

Ahantu bakiriza amashanyarazi, aho hantu urahagera ukatsa ayo amashanyarazi maze igihugu cyose kigacana, kikabona umuriro uhagije kuko haba ibyuma byinshi bihagije byagirira abantu bose akamaro.

Ibiro by'abayobozi ni heza, hameze neza. Habera inama, iyo uhageze hariho amarembo akwereka aho binjirira, ukinjira ukabona abayobozi ushaka, kuko aho hantu hafite isuku. Iyo hegereye umuhanda haba hameze neza.

Ahantu hari urusengero, hari n'abantu baje mu rusengero, abo bantu barategereje ko binjira, abayobozi b'urusengero ntabwo bari baza, iyo ugeze kuri urwo rusengero utegereza ababishinzwe, maze mukinjira mugatangira gusenga neza.

Ibiro by'abayobozi hariho amarembo binjiriraramo kugira ngo uhagere unyura muri ayo marembo ukagera aho ibiro biri, kugira ngo ubonane n'abayobozi ushaka bityo ubabwire ibyifuzo byawe bagukemurire ibibazo byose ufite.

Mu biro, ibyo biro bibamo televiziyo, bibamo imashini zabugenewe, izo mashini nizo bakoresha bari gukemura ibibazo by'abaturage, harimo na za karaseri zitondetsemo impapuro z'abaturage, kuko ibiro bikunda kubamo impapuro.

Iki ni ikiliziya cyubatse neza kiri ahantu heza, abaturage iyo baje mu misa barahagera bagategereza padiri bagatega amatwi inama padiri ari kubagira kuko bari mu rusengero rwiza, iki kiliziya kiracyeye ni cyiza kigirira abaturage akamaro.

Inzu nziza iri ahantu heza, iyo nzu iyo uyiyibonye nawe wafata uko bayubatse nawe ukayigana ukayubaka iwawe, kuko n'inzu ifite isuku irakeye iriho n'indabyo nziza bayubatse.

Urusengero rwubatse ahantu heza hafite isuku. Urwo rusengero iyo abantu baje kurusengeramo, baraza bageramo, bakicara bagategereza abantu bari bubafasha gusenga, kuko ruri ahantu heza hegereye umuhanda wa kaburimbo.

Abantu bicaye mu nama buri muntu wese afite imashini ye ari gukandagura kuko iyo abantu bari mu nama umuntu afite imashini ye, nta muntu uba ari kuvugana n'undi, bose bari mu nama, bategereje ko buri muntu wese akanda imashini ye.

Ahantu hari kaburimbo, hubatswe umuhanda. Uwo muhanda ukikijwe n'imisozi iriho n'amazu, iyo misozi iyuyigezeho ureba ku musozi hakakuyobora aho ugiye, kuko iyo urebye hejuru ubona amazu atandukanye.

Musenyeri ari kumwe na padiri, n'abapadiri baje mu misa kuvuga ijambo ry'Imana. Iyo bageze mu misa barinjira n'abaturage bakaza bagasenga, barangiza gusenga bagataha, kuko musenyeri baramukunda agira impanuro nziza.

Inzu ijyaho abayobozi, iyo uhageze uricara ugategereza ko abayobozi baza bakagukemurira ibibazo byose wari ufite, iyi nzu ni nziza iri ahantu heza kandi imeze neza cyane.

Inzu z'abayobozi barahagera bagashyiraho imodoka zabo bakinjira mu biro, bamara kugera mu biro bagakemura ibibazo by'abaturage kuko abaturage baba babategereje ,n'uko bamara gutaha bagafata imodoka zabo aho ziparitse bagataha.

Abantu bubaka inzu z'abayobozi abo bantu bari kubaka bamwe bari hejuru, abandi bari kugenda bari kubahereza amatafari kuko bubaka neza iyo bari hejuru, abandi bari hasi bakabahereza bigira akamaro.

Iki ni kiliziya basengeramo, iyo uhageze winjira muri iyo kiliziya ugasanga harimo abandi bantu, Padiri akajya imbere akabigisha, ubwo ugakurikira ugatahana inyigisho ukuye muri iryo jambo ry'Imana.

Urusengero basengeraho, urwo rusengero rumeze neza, rwubatse ahantu heza, ruriho n'indabyo, ruriho n'ahantu baparikaho imodokadoka, rwegereye n'umuhanda, nta bwo umuntu waza muri urwo rusengero ashobora kuyoba.

Ibiro by'abayobozi, ibyo biro biri ahantu heza bifite isuku ihagije, urahagera bakaguha agatebe ukicara ugategereza abayobozi baza bakakwakira neza bagakemura ibibazo byose ufite.

Urusengero ruri aho hantu, ahantu heza, urwo rusengero urugeraho, ugasenga, warangiza gusenga ukagenda, kugira ngo ube uganiriye n'Imana kuko gusenga ari byiza.

Abanyeshuri bari ku ishuri baje kwiga, bariga bakabifata, bamara kubifata, aba banyeshuri ni beza, n'ishuri rya bo ni ryiza, ishuri riri ahantu heza, abanyeshuri bariga baga.

Ibiro by'umurenge biriho ibendera ry'u Rwanda, iyo uhageze usanga hariho abayobozi bakakwakira neza, bagakemura ibibazo byose ufite, kuko uba ugeze ku biro by'abayobozi, ibyo biro ni byiza, biri ahantu heza cyane.

Inzu y'urusengero, yubatse neza, iri ahantu heza cyane, ifite umutekano kandi ifite n'isuku, iyo nzu iyo uhageze urahagera ,ugategereza abantu baje gusenga cyangwa ukinjiramo, iyo nzu iri ahantu heza.

Iyi ni inzu ibaho abayobozi, iyo uhageze uricara, ugategereza ko abayobozi baza, bamara kuza, ukinjira mu biro ushaka, ukabona umuyobozi ugiye kureba, akakugira inama cyangwa akagukemurira ibibazo.

Abantu baje ku biro, hari abantu benshi. Abayobozi na bo barahari, haparitseho n'imodoka. Abo baturage bari kugenda barinjira umwe umwe, batondetse imirongo. Iyo bahageze bagasanga abayobozi bahari barishima kuko ibyo bibazo byabo bikemuka neza.

Ahantu bari kubaka ibiro by'abayobozi, aho hantu ni heza hameze neza hafite umutekano, iyo bubaka ibyo biro by'abayobozi babona amafaranga ahagije, kuko na bo baba bavunitse bihagije cyane.

Ibiro byiza biberaho inama, ibiro by'umurenge, iyo ugiye kuri ibyo biro, birakeye ugeraho ukicara, ugategereza abayobozi ushaka, baza ukababona bakakugira inama z'ibibazo byose ufite.

Ibiro by'abayobozi byubatse ahantu heza hameze neza hafite umutekano, hegereye umuhanda kuko ibyo biro iyo biri ku muhanda abantu barahagera n'imodoka zikahagera zitavunitse ibyo biro bimeze neza bifite isuku birakeye.

Abanyeshuri beza bari mu bizamini， buri munyeshuri yicaye imbere， undi aramukurikiye， kuko iyo abanyeshuri bari muzamini，ntabwo bicarana， kuko bicaranye bakopera，bategereje ko babazanira ibyo gukoreraho ibizamini.

Inzu zikoreramo abayobozi, ziri ahantu heza hameze neza hafite isuku, hariho n'ibiti bizikikije, iyo ugeze muri izo nzu usangamo abayobozi bakwakira neza, kuko ziri ahantu heza, bakagukemurira ibibazo byose ufite maze ukagenda wishimye.

Inzu y'abayobozi baremeramo inama, iyo nzu ni nziza iri ahantu heza hameze neza, iyo uhageze ubona ibyatsi byiza, ukabona inzu nziza, iyo nzu iri ahantu heza hafite umutekano uhagije.

Inzu nziza, iyo nzu imeze neza iberaho inama, n'inzu abantu bose bageraho bagahagarara bakayireba kuko bayubatse neza ahantu heza hakeye hafite isuku, iyo nzu ifite akamaro kanini cyane.

Inzu ibamo abayobozi，iyo uhageze， urahagera ukicara， ugategereza abayobozi bagukemurira ibibazo byose ufite，bamara kubigukemurira ugataha， kuko uba wabonanye n’abo wari ushaka. Iyi nzu ni nziza， iri ahantu heza， irakeye，niyo mpamvu aha ahantu bahakunda.

Urusengero basengeramo, urwo rusengero ruri ahantu heza, rufite amashanyarazi hejuru rufite ibyatsi byiza, aho hantu ni heza hari amarembo urahagera ukinjira, kuko amarembo y'urwo rusengero aba akinguye.

Abantu bari mu nama bateze amatwi umuyobozi, ari kuvuga barishimye, bakumva bimeze neza, bakamuha amashyi. Abo bantu bicaye imbere y'umuyobozi, nawe ari kubagira inama zihagije, kuko nabo bameze neza bamuteze amatwi.

Ahantu baburanira, hari umuntu waje kuburana, ahagaze imbere y'abantu bari kumuburanisha, iyo uhagaze imbere bakubaza ibibazo, ugasubiza bityo bakumva niba uri kurengana, bakakurenganura kuko byakugirira akamaro kanini.

Inama y'abaturage, yaremyemo abaturage benshi, buri muntu iyo ari muri iyo nama, atangamo ikibazo cye kikumvikana, abandi bateze amatwi iyo nama, ni nziza abaturage bayitabiye ari benshi.

Abantu bari mu nama, bari kugenda batanga ibitekerezo, buri muntu wese akagira icyo abivugaho, bateze amatwi umuyobozi wabo uri kubagisha inama, nta muntu warangara, kandi bose bateze amatwi iyo nama.

Umugore wayoboye inama, uwo mugore bamuteze amatwi, ari kubabwira ibyo yabahamagariye, kuko iyo umugore ari kuvuga, abagabo bahagaze, abandi baricaye bamuteze amatwi, kugira ngo bumve ubutumwa bw'iyo nama uwo mugore ari kubabwira.

Mu rukiko aho baciraga imanza, urahagera ugatega amatwi ibyo bari kukubwira. Uhasanga abayobozi, hicaye abantu bane hariho n'umugore uri kuburana. Uwo mugore bari kumusomera amategeko, nawe akurikiye kugira ngo bataza kumurangaza.

Aha n'aho imodoka zihagarara, iyo uhageze ugiye urareba, imodoka igiye aho ushaka ukayitega, ukayihereza amafaranga ikakujyana, ikakugeza aho ugiye, kuko haba hari imodoka nyinshi, zitegereje abagenzi zitandukanye.

Aha ni mu isoko. Iyo umuntu avuye mu isoko araza agafata umunyonzi ,yamara gufata umunyonzi akamujyana akamugeza mu rugo. Bityo umugenzi ntavunike kuko igare aba aribonye bimworoheye atavunitse.

Imodoka itwara abagenzi iriho n'ikirangantego cy'u Rwanda, iyo modoka urayitega ikakugeza aho ugiye ugatanga amafaranga ahagije, kuko uwayiguze nawe ashaka kwiteza imbere.

Imodoka zitwara ibintu ziri kugenda mu muhanda mwiza, ziri kugenda ahantu heza izo modoka zitwara ibintu byiza, zitwara amavuta zitwara ibyo kurya bihagije. Izo modoka zigendera muri kaburimbo nziza.

Muri gare aho bategera imodoka urahagera ugafata imodoka cyangwa waba ushaka moto nayo ukayifata , ugatanga amafaranga ,akagirira abo bantu bari gutwara akamaro, kuko nabo baba bashaka kwiteza imbere , bagateza n'igihugu cyacu imbere.

Isoko ryiza, iryo soko rimeze neza, ririho umuhanda mwiza, ririho n'umuntu uri gutwara moto wambaye ijire, uwo muntu atwara moto bakamuha amafaranga, bakamuteza imbere, iyo usohotse muri iryo soko, usanga ahagaze ahantu agahita atwara abagenzi.

Ahantu hari ibikoresho bakanikisha imodoka. Iyo imodoka yawe yapfuye, urayizana mu igaraje, bakayikanika kuko hari ibikoresho bihagije. Bamara kuyikora ukongera ukayitwara kuko iba ibaye nzima yavuyemo ubupfu.

Ubwato burimo abantu bagendera mu mazi bakambuka. Iyo bagiye iwabo banyura mu mazi, kuko iwabo ni hirya y'amazi. Nta yindi nzira keretse kunyura mu mazi. Bagenda bishimye kuko bagiye iwabo.

Imodoka zitwara imicanga, zitwara n'amabuye iyo zaje gutwara ayo mabuye zirayajyana zikayajyanira abayaguze zikayagezayo neza cyangwa amatafari, zamara kuyagezayo akagirira abantu akamaro.

Imodoka baguriramo ibirayi, iyo modoka yuzuye imifuka irimo ibirayi, iyo uguze ibirayi kuri iyo modoka utanga amafaranga, kuko iyo modoka niyo bacururizamo ibirayi byinshi, kandi biba ari byiza bitarimo ibyaboze cyane.

Abantu bavuye guhaha mu isoko abo bantu bafite amagare ariho ibitebo bari gusunika, hari umugore utwaye igare ,umugabo utwaye igare ,bose bavuye mu isoko umugore ni we uhetse ibi....

Indege iri mu kibuga cyayo, iriho ibyapa biyobora abantu, iyo uje muri iyo ndege, ureba ku cyapa kiyoboye abantu, hari iziba zigiye ahantu hatandukanye, izo ndege ni nziza utega iyo ugiye iri aho ugiye.

Isoko ririho imodoka zitwara abantu na za moto, iyo uvuye muri iryo soko uraza ugafata imodoka igahita ikugeza mu rugo, cyangwa waba ufite amafaranga ahagije ugafata moto nayo ikakugeza mu rugo.

Abantu bari gukina umupira, uwo mupira bari ku kuwukina bakoresheje utuntu bari kuwukubita ukazamuka, kugira ngo bakine neza barambure ingingo zabo zirambu....

Abantu baje gukina umupira, abo bantu ni beza basa neza, baricaye, barategereje ikipe barakina na yo. Kuko iyo ugeze ku kibuga ugasanga ikipe murakina nta bwo yari yaza, uricara ugategereza. Abo bantu baherekejwe n'abayobozi babo ni beza, bameze neza, barakeye.

Abakobwa bagiye gukina umupira bamanjije bakora siporo yo kubananura amaguru bwabo. Kuko iyo bamaze kunanuka amaguru n'amaboko n'umupira wo gutera nuw'intoki. Babatera umupira bishimye bafite imbaraga.

Abantu bari muri siporo, bari gukina basikete, bari kuzajya bari guterera umupira muri paniye, kuko siporo yo guterera umupira muri paniye inanura amaboko, bityo ukagira ubuzima bwiza bwa buri munsi.

Abantu bari muri siporo bakoresheje imodoka, bageze ahantu hari amazi nuko iyo modoka basanga habaye ibizenga imodoka iheramo, abo bantu bari gutwara kugirango bave muri ibyo byondo kuko bari mu myitozo ngororamubiri.

Abantu bari mu myitozo ngororamubiri, abo bantu bafite utuntu mu ntoki bakubitisha imipira yabo, kuko siporo inanura amaboko ari uguterera umupira bityo ingingo zabo zikarambuka neza.

Abantu bari muri siporo yo kuvuza ingoma, abo bantu bavuza ingoma neza kugira ngo barambure amaboko yabo, kuko siporo yo kuvuza ingoma ituma bagira ubuzima bwiza bwa buri munsi.

Abantu bari mu myitozo y'ingorororamubiri, abo bantu bameze neza barishimye, bari kugenda bararambura amaboko yabo, baricaye bari gukina imyitozo bicaye, kuko iyo bicaye bararambuka neza, siporo bakoze ikabagirira akamaro.

Aho abantu bakorera siporo bari bari gukina, none bamwe batsinze, abandi bafatanye amashati bashaka kurwana, kuko haberaga imikino ihagije none barashwanye benda kurwana.

Abantu bari mu mumarushanwa y'amagare, batondetse umurongo, biteguye kugenda; kuko iyo batabanje kwitondeka ku murongo, bakagenda bavudutse, bashobora kugwa, iyo baguye bakora impanuka.

Umugore waje muri siporo, uwo mugore yambaye imyenda iriho ikirango kigaragaza ibendera ry'u Rwanda, uwo mugore ameze nabi harakeye kuko arigukora siporo yamugirira akamaro ikamuteza imbere ikagirira n'igihugu cyacu akamaro.

Imodoka itwara abagenzi, iyo modoka imeze neza, iyo uyiteze itwara abagenzi ukagenda ukagera iyo ugiye, kuko uba ugiye mu modoka itwara abagenzi, iyo modoka imeze neza, iri ahantu heza, ariko haguye imvura hari kunyerera, iyo modoka rero itwara abagenzi.

Abakobwa bari gukina siporo igorora umubiri wabo. Abo bakobwa iyo bari gukina barakina neza, bamara gukina bakarambura amaguru yabo agakarambuka neza, kuko siporo yo kurambura amaboko irambura amaboko neza, n'amaguru akarambuka neza, bityo bakaba beza.

Abantu bari gukora siporo y'amarushanwa y'amagare iyo bageze muri ayo marushanwa bakurikirana ku murongo, ubaye uwa mbere bakamuhemba bityo bikagirira igihugu akamaro, bigateza n'u Rwanda imbere.

Abantu bari mu marushanwa y'amagare, abo bantu batondetse ku murongo barakurikiranye, umwe ari kugenda agereye undi, iyo begeranye barabyigana bashobora kugwa hasi bagakomereka kuko begeranye cyane bari kugenda umwe atandukanye n'undi kugira ngo batazi.

Abakinnyi b'abakobwa bakina umupira w'intoki， bari gutererana， bagatsindana， kuko ari amakipe abiri yahuye， buri kipe iri gutsinda iyindi. Abo bakobwa barishimye.

Abakinnyi bari gukina imikino yo kunanura ingingo zabo. Iyo binanuye bagorora ingingo bakagira ubuzima bwiza, bityo bakabaho neza mu buzima bwabo bwa buri munsi, bibateza imbere.

Abantu bari muri siporo, bari kugenda bari kumanika amadarapo y'u Rwanda, kuko iyo bari muri siporo barambura amaboko, bamanitse ibendera ry'u Rwanda, bituma amaboko yabo arambuka neza, kuko baba bakoze siporo yo kurambura amaboko yabo.